Umumama uri kuvomera mu njerekani y'umweru, afashe kuri robine akantu gatukura n'akaboko k'iburyo, ndetse akaba yambaye ingofero y'ubururu irimo akabara k'umweru, anambaye igitenge cy'icyatsi kibisi.